Abamama bafite udutebo mu mugongo bakaba barimo basoroma icyayi kandi akaba ari benshi bagenda bakinyuramo hirya no hino ku cyeze.

Abantu iyo bahuriye hamwe mu gikorwa rusange cy'umuganda hari ibintu byinshi bashobora gukora bikabateza imbere, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza. Ndetse n'iterambere ry'igihugu rikiyongera muri rusange, kuko hari ibintu by'ingirakamaro bakora.

Umuntu uri mu murima akaba arimo abagarira umuceri akuramo ibyatsi biwurimo ndetse n'ibyondo kugira ngo ukure neza.

Ibihingwa birimo ibigori, bifite akamaro cyane mu buzima bw'umuturage kuko bitanga ibyo kurya, gusa abagomba kubyitaho, agatera imiti kugira ngo bidafatwa n'uburwayi, bityo akaba yahura n'igihombo, akaba atakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari indabo nyinshi zigiye zitandukanye, zitondetse neza kandi zose ziri mu mavase ndetse n'ibindi bikoresho, akaba ari indabyo nziza cyane.

Amapapayi agira intungamubiri zifasha abakiri batoya n'abakozi kugira ubuzima bwiza, amapapa umuntu agomba kuyarya abanje kuyagirira isuku kugira ngo atamutera uburwayi bitewe n'udukoko tuba twarahagiye.

Umuntu ufite umupira urimo amazi, akaba arimo agenda yuhira imbuto ze kugira ngo zizamere neza.

Amashyamba ndetse n'amazi ni kimwe mu bintu bigira uruhare mu gutuma umuntu akomeza kubaho neza kubera ko amashyamba akurura umwuka mwiza abantu bahumeka kandi akaba ashobora gukorwamo imbaho, mu gihe amazi umuntu ashobora kuyakoresha ibikorwa bitandukanye, bimubyarira inyungu.

Imisozi, ibibaya, ni bimwe mu bintu bigaragaza ko agace kameze neza. Hari abantu bakunda gutura mu misozi cyane ariko ahantu hari imisozi hakunda kuba hari ibimera bishimishije kubireba, birimo ibiti by'inganzamarumbu.

Agace k'imisozi ndetse n'amashyamba, bakaba baraciyemo amaterasi kugira ngo birinde isuri, ishobora kuhatwara.

Agace ko mu ntara y'amajyaruguru aho hariyo imisozi myinshi cyane ndetse miremire, amashyamba ndetse n'ubuhaname bukabije.

Ishyo ry'inka aho riri mu rwuri rikaba ririsha. Akaba ari inka zigiye zitandukanye zifite ibara ry'umukara, ikijuju, zifite amahembe ndetse n'inkungu.

Ubworozi bw'inka bufitiye akamaro abaturage kubera ko umuntu woroye inka ashobora kubona amata ku gihe kandi abana be ntibashobora kurwaragurika bitewe n'imirire mibi. Igihe umuntu afite inka agomba kuyitaho, akayigaburira bihagije.

Umuntu ufite imbuto mu ntoki, bisa nkaho ari iz'ingano bityo akaba agiye kuzitera kugira ngo zizarumbuke, zereho izindi nyinshi.